Abanyeshuri bari kwiga ibijyanye n'ubwubatsi, kubera ko ndi kubona bafite ibikoresho by'ubwubatsi, bambaye amasurubeti, bambaye n' ingofero, bafite na za nivo, ibikoresho bakoresha mu bwubatsi, ubwo barimo kwiga.

Abana bambaye imyenda y'ishuri, ni abanyeshuri bari ku ishuri, hari ibintu bari kutwereka ngo ibyo bize, haba hariho n'abarimu babigisha, bakabaha uburere n'ubumenyi buzabafasha mu minsi iri imbere.

Aba ngaha ni abanyeshuri biga umwuga wo kudoda. Nibamara kubimenya bazajya iwabo bagure amamashini adoda bajye baradoda imyenda y'abantu, na bo babahe amafaranga. Umwuga wo kudoda ni mwiza cyane, utuma abantu bamenya ubwenge bwo kudoda.

Uburezi mu Rwanda bumaze kugera ku rwego rwiza rushimishije. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bafite n'abarimu babigisha, bakiga amasomo atandukanye. Harimo n'abiga ubugeni, ubuvanganzo, n'abiga imyuga, barangiza bakabona uburyo bwo kwiteza imbere.

Aba bari mu ishuri baricaye bari kwiga . Bamanitse intoki hejuru, umwarimu wabo ari kubabaza ibibazo bakabisubiza . Kwiga ni byiza cyane, kuko bituma tugira ubwenge, tukazanibeshaho minsi izaza iri imbere.

Muri iki gihe turimo ikintu kijyanye no kwiga ni ikintu cyiza cyane. Biga imyuga itandukanye harimo n'ubudozi. Iyo barangije babona akazi cyangwa bakihangira imirimo, bakabona amafaranga yo gukora ibikorwa by'iterambere.

Gusudira bari gukora inzugi n'amadirishya bikozwe mu byuma. Umwuga ni mwiza kuko utuma abantu bawize babona akazi, bagakorera amafaranga menshi, n'inzu z'abantu zikaba zimeze neza zikingishijwe inzugi nziza.

Abanyeshuri bari ku ishuri. Iyi ni inzu bariramo, bari ku meza babahaye indyo yuzuye, bafite n'amata babahaye n'imereke yo kurya, kugira ngo bamererwe neza.

Aha ngaha ni mu ishuri, niho abanyeshuri biga cyane cyane abatoya b'ishuke, hariho n'intebe nziza, n'utumeza twiza, abarimu niho baba bari kubafasha amasomo yabo.

Aba ngaba ni abanyeshuri bari kwiga ibintu bijyanye no gukora inkweto z'amoko menshi atandukanye. Uriya ni umwarimu wabo, ari kubereka uko bazikora. Namara kurangiza amasomo ye azajya hanze ajye arashaka ibiraka akorere abantu.

Ni iby'agaciro ku gihugu cyacu kugira abaturage bize . Habaho amashuri bigisha imyuga n'ubumenyi ngiro ,aho bajyayo bakabigisha imyuga itandukanye ,nko kubaza , kubaka no gukora mu mazi n'amashanyarazi. Bagirira akamaro iyo barangije amashuri yabo ,bahita babona akazi ,cyangwa bakanihangira imirimo.